Ibyapa bibiri bitandukanye; kimwe n'icya mituweli y'abaturage y'ubuzima, ikindi nicy'ikigo cy'imari cya banki ya ekwiti, biteretse hanze ni mu ijoro mu rumuri rukeya.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi bw'urugendo kererekana serivisi gitanga kikerekana ndetse n'aho wabasanga, imyirondoro yabo hariho umugabo wambaye neza ndetse ufashe ku gikapu atwaramo imyambaro.

Icyapa kinini kiriho abagore babiri b'uruhu rwera bafite imisatsi miremire hariho n'amazina yabo, ndetse inyuma yabo hariho icyapa kiriho imodoka y'umutuku mu cyapa hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku agaragaza ko ari isosiyete itanga ubwishingizi yamamazaga.

Icyapa cy'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi cyamamaza serivisi gitanga, zirimo ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro. Ese waba uteganya iki mu gihe inyubako yawe yakwangizwa n'inkongi y'umuriro? Gana radiyanti tuguhe ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro ndetse hari n'uburyo wababonaho.

Icyapa kimanitse mu kirere cy'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, hariho umwana ufite igiti wambaye ingofero ndetse hariho n'umurongo ushobora kubahamagaraho ukeneye koguha serivisi zabo.

Icyapa kiri ku muhanda cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi, cyitwa w WHITTAKER-WARREN INSURANCE, hariho umugabo wambaye imyenda y'akazi w'uruhu rwera.

Ubwishingizi bw'inkoko ku mworozi yishyura mirongo itandatu ku ijana, leta ikamuha nkunganire ya mirongo ine, hari inkoko z'ubwoko butandukanye ndetse n'izindi nkoko z'udushwi ziri kurya zisa umweru.

Kwamamaza ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, icyapa kigizwe n'amabara atandukanye, amabara y'umukara ndetse n'amabara y'ubururu, amagambo manini yanditswe mu mabara y'ubururu ndetse n'amagambo mato yanditse mabara y'umukara.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa sosiyete itanga serivisi z'imari ndetse n'inguzanyo, ruriho uburyo ushobora kwakira ndetse no kohereza amafaranga yawe ukanamenya konti yawe uko ihagaze. Rwiganjemo ibara ry'umweru ndetse hari ni ikirangantego cya banki imwe, kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'ironji.

Hoteli bita rebanoni ifite amarangi meza agiye atandukanye ndetse n'ibiti biyikikije bigiye bitandukanye, aho abanyamahanga ndetse n'abenegihugu baza kuruhukira.

Urubuga rwa sosiyete itanga serivisi z'imari, inguzanyo, ndetse n'ibindi bijyanye n'amafaranga. Urubuga rugizwe n'amabara atandukanye, higanjemo ay'umweru ndetse n'icyatsi. Hari uburyo bwo kwishyura, ndetse n'uburyo bwo kwakira amafaranga binyuze ku ikoranabuhanga.

Urubuga rwo ku ikoranabuhanga rwa sosiyete itanga serivisi z'imari, ndetse n'inguzanyo n'ibindi bijyanye n'amafaranga, irerekana uburyo butandukanye wabonamo cyangwa ukoherezamo amafaranga kuri murandasi urerekana amafaranga ari konti y'uyu muntu.

Iduka rigezweho ricururizwamo ndetse rikamurikwamo ibikoresho by'ubugeni, ndetse n'ubwiza, harimo imyambaro yambarwa n'abagore, bigizwe cyane cyane n'inkweto zambarwa n'abadamu.

Iduka rigezweho ricuruza ibikomoka ku mideli ndetse n'ubukorikori, inkweto zikozwe mu ruhu ndetse n'amasaro, higanjemo inkweto z'abagore zikunda kwambarwa nabo, ndetse zitetse ku meza inyuma hari akabati karimo ibindi bikoresho.

Icyumba kinini kiri mu iduka rikora ibijyanye n'imideli n'ubukorikori ndetse ni naho bimurikirwa harimo amajipo, amakanzu, ibikomo, imitako n'ibindi bikunda gukoreshwa n'abadamu.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Iduka rinini rikorerwamo ndetse rigacururizwamo imyambaro ndetse n'ibikomoka ku mideli, hari utubati dusize amarangi y'umweru duteretseho inkweto, zifunguye zambarwa cyane cyane n'abari.

M’ iduka rigezweho ricuruza ibijyanye na hoteri amatara araka azatanga urumuri rwinshi, harimo imyenda ikize itandukanye ndetse y’ubatswe n'amakaro.

Iduka ritoya ry'umuturage ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, umucuruzi wambaye umupira w'amaboko magufi arahereza ibicuruzwa umugore wambaye amaherena.

Iduka ririmo amabara ari gutangwa n'amatara bigatanga urumuri rutandukanye, hamanitsemo imyambaro y'ubwoko butandukanye; amashati, imipira ndetse harimo n'utubati turimo n'ubundi indi myambaro.

Iduka rikorerwamo ibijyanye n'imideri ndetse n'ubukorikori harimo amatara atatse neza atanga urumuri rwamabara atandukanye ndetse hari n'uturarabyo harimo ndetse n'ibikomoka ku bukorikori ndetse n'imyenda idozwe.

Iduka ricuruza rikanamurikwamo ibijyanye n'inkweto zo kwambara, harimo inkweto z'ubwoko butandukanye, ndetse harimo n'inkweto zikoreshwa n'abakinnyi bakina umupira w'amaguru.

Imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye zihagaze mu nyubako nini y'amakaro ndetse itatse amarangi y'umweru.

Inyubako nini yubatse neza yubakishije amadirishya menshi ya sosiyete itanga serivisi zo kugura ndetse no gukodesha imodoka. Imodoka zirimo imbere, imbere mu birarahure inyuma hari akayira ndetse n'umuhanda w'amabuye ndetse n'uwa kaburimbo.

Imodoka y'ibara ry'umukara ifunguye imiryango y'inyuma iteretse mu nzu yubakishije amakaro, urumuri ruratambuka mu madirishya.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira w'amaboko magufiya usa umutuku ndetse n'undi wambaye umupira mugufiya, bafashe ikimenyetso cy'urufunguzo, kiriho ibirango bya sosiyete itanga serivisi zo kugura ndetse no kugurisha imodoka Akagera.

Umugabo ufite igishushanyo cy'urufunguzo rw'imodoka kiriho ikirango cy'uruganda rucuruza imodoka mu Rwanda, inyuma ye hari imodoka nini iri mu bwoko bw'ikamyo itwara imizigo ndetse iri ahantu hatwikiriye.

Iri ni iguriro ryo mu mujyi wa Kigali ririmo amakaro asashe hasi imbere mu imbere harimo abantu, abakiriya ndetse n'abakozi baryo bakaba barimo barahererekanya ibicuruzwa.

Imodoka y'umukara tsiriri ifunguye imiryango yose, ikaba ifite amashashi igaragara ko ari nshya, ikaba ifite intebe z'uruhu, ikaba ndetse n'amatara yaka.

Mu cyanya kinini gihagazemo imodoka z'ubwoko butandukanye, hari imodoka y'ubwoko bw'izitwara abagenzi benshi, isize ibara ry'umweru ihagaze mu kibanza, inyuma yayo hari n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye, inyuma ndetse hari n'ibiti by'inganzamarumbu.

Amatara yaka cyane ndetse n'ikiraro kinyuraho imodoka, hasi no hejuru kiri mu mujyi wa Kigali muri nyanza ya kicukiro ndetse yanditseho, icyapa k'icyatsi kiriho amagambo Kigali eyapoti

Inote ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda y'amafaranga igihumbi, hariho imyende iri kugendera mu biti ndetse handitse imibare ndetse n'amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, hariho ikirangantego cya leta y'u Rwanda.

Igiceri cya mirongo itanu gikoreshwa mu kwishyura ibintu bitandukanye, kigizwe n'ibara rya zahabu, kigizwe n'ibishushanyo bitandukanye, harimo ikirangantego, ikawa, imibare, ndetse n'amagambo.

Ibyumba by'abakozi b'amabanki abikira amafaranga abaturage ndetse akanabaguriza, aho abaturage bakira amafaranga yabo ndetse banayabikuriza banayabitsa.

Igiceri cy'ifaranga rimwe ry'amanyarwanda yakoreshwaga kera amafaranga ya y'ibiceri akiza, kigizwe n'ibirango bitandukanye harimo imibare, amagambo, igisiga ndetse n'ibirango by'igihugu by'icyo gihe.

Amagi ari mu itereyi ni amagi agera ku icumi ari mu kabati aho acururizwa ibijyanye n'ibikomoka ku matungo, amata ndetse n'amagi.

Abagore babiri umwe wambaye ishati y'amaboko magufi ufite igikarito kirimo ibikomoka ku mata, ndetse uhagararanye n'undi mukobwa wambaye umupira w'umukara mugufi, ufite mu ntoki ibikomoka ku mata, bari mu iduka ricuruza ibikomoka ku mata.

Iduka rinini ricuruza ibikomoka ku mata, ndetse n'ibiribwa n'ibindi binyobwa, hariho imashini iriho icyapa cya sosiyete itanga serivisi zo gutunganya ibikomoka ku mata, ndetse no gucuruza amata yitwa mukamira.

Ameza yegereye idirishya ateretseho ibikomoka k'amata bigihe bitandukanye bikorerwa mu nganda.

Abagabo bagera kuri batandatu bishimye bamwenyura bafite ibikombe binini birimo amata bicaye mu iduka ricuruza ibikomoka ku mata.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi, uri gucuruza ibikomoka ku mata : ikivuguto, inshyushyu, ku bana babiri bicaye bari gufungura barya, bananywa.

Intoki z'umuntu zifashe ibikomoka ku mata by'uruganda rwa Mukamira dayari limitedi, ikaba ari sosiyete ikora ibijyanye n'amata ndetse bikanayatunganya.

Inyubako yubatse neza itatse ibyapa bya sosiyete itanga serivisi z'ubucuruzi bikomoka ku mata inyange, icururizwamo ibikomoka byose ku mata ndetse ikanabiranguza.

Umugore wambaye imyenda y'akazi y'ibara ry'umweru wicaye imbere y'ikimashini kinini kirimo kirasura amata ajya mu kabido, kiriho icyapa cy'ikigo gitanga serivisi zo gutunganya ndetse no gukora ibijyanye.

Iduka rito ricuruza ibikomoka ku mata ndetse n'ibindi binyobwa, umukobwa yicaye mu ntebe y'ibara ry'ubururu, inyuma ye hari akabati karimo ibintu bitandukanye by'ibinyobwa, by'ubwoko butandukanye, imbere ye hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare umuhagaze imbere.

Iduka ricuruza ibikomoka ku mata yiganjemo iby'uruganda rwitwa inyange, hakaba harimo umugabo uri gucuruza ndetse hagaragara n'ameza abakiriya babakiriraho.

Harerekanwa uburyo bwo kwishyura ku ikoranabuhanga binyuze mu rubuga rwitwa Peyipale, aho basaba uwitwa John Morale kwishyura ibikoresho by'amadolari atanu kuri uru rubuga.

Uburyo bugezweho bwo kwishyurira kuri murandasi, haragaragara uburyo wakwifashisha mu gihe uri gukenera kwishyura ifatabuguzi rya televiziyo yawe.

Urubuga rwo ku ikoranabuhanga rwishyurirwaho ndetse rugakoreshwa hakirwa amafaranga binyuze kuri murandasi, kuri konti y'uyu muntu hariho amadolari angana na magana atatu mirongo itanu y'ayamerika, hariho uburyo wabona uru rubuga rw'apulikasiyo yayo n'uburyo wakohereza amafaranga kuri konti ya banki.

Icyapa cyamamaza sosiyete itanga serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga binyuze kuri murandasi, umugabo n'umugore bafite telefoni mu ntoki zabo baroherezanya amafaranga bamwenyura, handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ati kohereza unakira amafaranga binyuze muri na sosiyete.

Icyapa kerekana ubwishyu bwakozwe ku ikoranabuhanga bwo kweherezanya amafaranga kuri sosiyete imwe ijya ku yindi amafaranga angana n'amadorari ibihumbi magana abiri mirongo itandatu na kimwe na magana atandatu na cumi n'ikenda ndetse n'ibice mirongo itanu na bitandatu.

Urubuga rwifashishwa bohereza ndetse banishyura kuri murandasi. Rurerekana uburyo bwose wakoresha, ndetse n'uburyo bukurikirana, kugira ngo wishyurire ifatabuguzi rya televiziyo yawe.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga serivisi z'ihererekanya ry'amafaranga binyuze kuri murandasi, umukobwa ufashe agasanduku gafunze neza, hariho amagambo ari mu rurimi rw'Igifaransa.

Icyemezo gitangwa n'urwego rw'imisoro n'amahoro mu Rwanda cyasinyweho n'uwitwa batamuriza hajara, kigaragaza igihe iki cyemezo kizamara kingana n'amezi atatu gusa.

Icyangombwa kerekana ibigomba kwishyurwa hakurikijwe amategeko, cy'urwego rushinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti.

Inyemezabwishyu yo kuri murandasi , ikigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro mu rwanda. Inyemezabwishyu iri kuri murandasi igaragaza amafaranga yishyuwe, igihe yishyuriwe ndetse n'amande yaciwe.

Umugabo wambaye isaha ya zahabu uri kubara amafaranga y'amashinwa abara ayapanga hagendewe ku mubare wayo ndetse n'urungano rwayo ndetse na magenzi yayo akayabara akayarundanyiriza hamwe.

Umugabo witegereza cyane icyapa cyayamamaza cya kampani yitwa galagisi folekisi biro akaba ari kampani ishinzwe kuvunjisha amafaranga hirya y'aho naho hari ibindi byapa byamamaza bitandukanye.

Umuntu ufashe amabandari y'amafaranga y'abanyamahanga azinze neza, agizwe n'inote nyinshi z'ibihumbi bibiri ndetse afashwe amaboko abiri.

Inzu iherereye kabeza mu mujyi wa Kigali ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi, ikaba ifite igikoni kigezweho kiriho ububati busa umweru n'imashini ifasha mu kumesa imyenda yo kwambara.

Akamashini k'ikoranabuhanga kagezweho, kifashishwa mu kubara ndetse no kumenya umubare w'amafaranga menshi yanyuzemo. Harimo amadolari agizwe n'ijana, ku ruhande hari umuntu uri gukanda kuri terefone imibare.

Ikurikirana ibijyanye n'ihindagurika ry'agaciro k'amafaranga y'abanyamahanga, irerekana irisiti y'amafaranga y'abanyamahanga igiciro agurirwaho ndetse n'igiciro ashobora kugurishirizwaho.

Umugabo wirabura wambaye imyenda isa y'umweru ishati n'ipantaro, wambaye impeta mu rutoki, afite amafaranga y'ubwoko butandukanye, ndetse ni amanyamahanga, mu kundi kuboko afite terefone ntoya igendanwa.

Umuntu ufashe mu ntoki amafaranga y'amadorari yagizwe n'inote nyinshi z'ijana, arazihereza undi uri mu idirishya ry'imbere mu biro aho bavunjishiriza, ndetse bakanatanga serivisi zo kugura amafaranga y'amanyamahanga.

Inyubako yubatse mu magorofa igezweho iriho ibyapa byamamaza sosiyete itanga serivisi z'ivunjisha y'amafaranga y'amanyamahanga ndetse no kuyagura no kuyagurisha, ku ruhande hari izindi nzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye.

Inzu ikodeshwa kacyiru mu mujyi wa kigali ikaba ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana atanu by'amadolari hakaba harimo firigo ndetse n'ibindi bikoresho byo mu gikoni .

Imashini zigiye zitandukanye zifashishwa mu ivunjisha ry'amafaranga agiye atandukanye akoreshwa mu bihugu bitandukanye, hakaba hagaragara n'amateleviziyo manini yerekana uko ivunjishwa rikora.

Umuntu ukora mu biro by'ivunjisha arahereza umugabo wambaye ishati y'amaboko magufiya amafaranga y'amadorari ijana y'inote enye ndetse arayamuha ari inyuma y'ikirahure.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga, ivunjisha ndetse hatangirwamo serivisi zo kohereza no kwakira amafaranga avuye hanze hari icyapa kiriho amasosiyete azwi ndetse akomeye hano mu Rwanda atanga izo serivise zose.

Inyubako y'ibiro bikuru by'ihererekanywa ry'amafaranga, ndetse n'ivunjisha ryayo muri karensi egisicenje intanashono.

Iduka ricururizwamo ,rikanamurikwamo ibikomoka ku mbaho, hari intebe ikozwe mu buryo butangaje, budasanzwe ndetse n'akabati keza.

Ibikoresho byo mu nzu bikozwe mu mbaho, harimo intebe enye ndetse n'ameza bikoze neza, biteretse mu kayira k'abanyamaguru, ku ruhande hari umuhanda munini wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga birimo ipikipiki ndetse n'ikamyo itwara imizigo.

Ahantu runaka hacururizwa ibijyanye n'imbaho ndetse n'ibibikomokaho byo mu nzu, harimo intebe, ameza ndetse n'utubati ,hari intebe zipanze neza zifite n'imisego.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Icyumba kinini cy'akazi gikorerwamo ibintu by'ubugeni ndetse n'ubukorikori, hari imeza yicaye hasi indi iyiri hejuru umuntu w'uruhu rwera ari gupima areba indeshyo y'imeza afite.

Igikuta kinini gisiza amabara y'umweru, gifasheho ibikomoka ku imbaho bikorwa n'abakorikori kugira ngo barimbishe inyubako; ndetse n'igikuta birimo ibigizwe n'amabara abiri atandukanye kimwe kigizwe n'umweru ibindi bisa kacye.

Icyumba cyo mu nzu itatse neza irimo urumuri rwinshi ruhagije, irimo utubati tugezweho turimo ibitabo ndetse hanateguye imiteguro yo mu nzu, hari ndetse n'ibikoresho byo gutaka mu nzu.

Icyumba cy'uruganiriro harimo amakaro intebe eshatu harimo ameza manini ndetse n'utumeza tune dutoya hari itara rimurika nijoro .

Igikuta gitatse amabara y'umweru kiriho ibikozwe mu mbaho ndetse n'indabyo z'ubwoko bugiye butandukanye, butatse neza buri mu nzu. Amatara arakimurikaho igicucucucu cyacyo kikagaragara.

Icyumba kinini cyimeze nk'icy'uruganiriro harimo intebe z'ubwoko bumwe zigera kuri ebyiri harimo imisego ndetse hari n'amarido atwikiriye amadirishya inyuma hari insinga.

Mu nyubako itangirwamo serivisi z'amacumbi ndetse no gucuruza ibiribwa, ndetse n'ibinyobwa, hari ameza ateretseho ibirahuri bibiri ndetse n'amacupa abiri arimo amazi yo kunywa, ndetse hariho n'ibikarito by'amakawa.

Icyumba gitekerwamo kinakorerwamo amasuku, harimo imashini zigiye zitandukanye, zifashishwa mu guteka ndetse no gutunganya amafunguro n'ibinyobwa n'aho bakarabira intoki.

Inyubako nini yubatse mu buryo bugezweho itangirwamo serivise z'amacumbi ndetse n'izo kurya ndetse no kunywa, inyubako igizwe n'amagorofa arenze atanu. Hari imbere yayo amabendera amanitse agera kuri atatu.

Inzu zo gutemberemo ndetse no kuruhukiramo no gufatiramo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Aho bakirira abakiriya harimo ibintu bitandukanye byo kunywa, imineke, amananasi, amakawa ndetse n'ibindi bitunganyije neza.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bugezweho yo kuruhukiramo ndetse n'iyo gufatiramo amafunguro ndetse n'ibiribwa, amatara aratanga urumuri ruhagije, hari ndetse n'indabyo ziteye mu buryo bugezweho.

Ikidendezi kitari karemano kirimo amazi menshi cyane ku ruhande hagaragara udutanda abantu baruhukiraho, ndetse hari n'imitaka y'aho bugamo izuba, hari aho bakirira abantu ndetse n'aho baruhukira.

Ameza yo kwakira abakiriya inyuma hari akabati kuzuye ibinyobwa by'ibisindisha n'ibidasindisha bigaragara ko aha mu kabari.

Icyanya cyakira abantu baje kwiyakira baje gufata icyo kurya ndetse n'icyo kunywa amatara araka ndetse n'intebe zipanze mu buryo bwiza.

Inyubako igezweho, amatara araka ndetse hari n'igikoresho kifashishwa mu kurwanya inkongi, kimenyerewe nka kizimyamwoto hari ingazi zimanuka zijya ku igorofa ryo hasi, hubakishijwe amakaro y'umweru ndetse n'ay'umukara.

Inyubako nini y'ikigo gishinzwe ubwishingizi mu Rwanda aricyo sanilamu kuvatanye na aliyanse hariho umuganda uganayo ndetse urimo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'amamodoka.

Abantu dukunda inyubako zitandukanye akenshi inyubako igizwe n'amabara menshi irakundwa cyane uzasanga hari izifite amabara y'umutuku avanze n'umukara ndetse n'umweru uko niko ba nyirazo baba babihisemo.

Inzu yubatse mu magorofa abiri hariho icyapa cy'ishami rya banki ntoya hari inzu iriho amakaro yubatse neza itangirwamo serivisie za banki.

Inyubako y'ibiro bikuru bya sosiyete itanga ubwishingizi mu Rwanda, imbere hari ubusitani bugufiya buteyemo ibiti ndetse n'ihuriro ry'imihanda n'akayira k'abanyamaguru.

Inyubako yubatse neza irimo amatara atanga urumuri, inyubako ikoreramo ibiro by'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, harimo ibikoresho byo mu nzu birimo intebe ameza ndetse n'imitako yo mu nzu.

Inyubako ikoreramo sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda, amatara y'ubwoko butandukanye aratanga urumuri rw'amabara atandukanye. Imbere harimo umuteguro ndetse hararimbishije cyane n'ibipirizo by'amabara y'ubururu ndetse n'iroza. Abakozi bambaye imipira y'ubururu.

Inyubako irimo amatara atanga urumuri ruhagije ndetse harimo n'ibiro bya sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi butandukanye, hagizwe n'ibara ry'umutuku wiganje ndetse n'ibara ry'umweru, hari intebe zo kwicaraho.

Ibiro bya sosiyete itanga serivisi z'imari ndetse n'iz'ubwishingizi hari ibyapa byiganje mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, abagabo bambaye amakositimu barasohoka muri ibyo biro inyuma ndetse hari n'abandi bantu, hari amatara atari kwaka.

Icyapa cyamamaza sosiyete itanga serivisi z'inguzanyo kiriho umumama useka witeze agatambaro mu mutwe ndetse icyapa kiriho n'amagambo yiganjemo amabara y'icyatsi n'umweru kiravuga kiti ishimire inguzanyo itagira ikiguzi.

Iri ku murongo y'amagorofa asize amarangi y'umweru n'umuhondo asakaje amabati y'umutuku imbere hari igiti kirekire kirimo insinga zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Abakozi batandukanye b'ikigo gikomeye gitanga serivisi z'imari ndetse n'inguzanyo barasobanurira abaturage babaganye babasobanurira serivisi ikigo cyabo gitanga, ndetse banabahereza urupapuro rwo kuzuzaho abashaka inguzanyo.

Ahantu hasa nk'ahantu abantu basohokera bisa nk'akabari cyangwa se ahantu abantu bajya kwiyakirira bakaba bahafatiramo amafunguro ya saa sita, hari mu ibara ry'umutuku, hariho intebe z'umutuku ndetse n'imitaka yayo iratukura, birasa nk'ahantu mu gipangu hakinjiramo n'imodoka z'abantu baba baje kubagana.

Hano ni kuri service center ya emutiyene, ndabona umukozi wa emutiyene wambaye umupira w'umweru n'ijosi ry'umuhondo wa emutiyene ari gusobanurira umukiriya uje umugana. Undi mugabo hino ari imbere ya compiyuta nawe aje gusaba serivisi, undi mukozi wa emutiyene nawe wicaye imbere ya mashini itari kugaragara neza ari kugaragara ukuboko.

Itangazo ryamamaza ikigo gitanga inguzanyo, umugabo arahereza umugabo n'umugore urufunguzo, ni inguzanyo ya miliyoni mirongo itandatu z'amafaranga y'u Rwanda yishyurwa mu myaka makumyabiri.

Abantu dukunda inyubako zitandukanye akenshi inyubako igizwe n'amabara menshi irakundwa cyane uzasanga hari izifite amabara y'umutuku avanze n'umukara ndetse n'umweru uko niko ba nyirazo baba babihisemo.

Umugabo uteruye isiniya iriho igikombe kirimo ikawa uri mu kazi, n'inyuma ye hari umugore uri kuri murandasi. Ni ikigo cy'imari cya ekwiti gitanga inguzanyo.

Umugore usobekeranyije amaboko wambaye agapira k'umukara ndetse n'umupira w'ikoboyi witeze agatambaro mu mutwe uri guseka aramama ikigo gitanga inguzanyo ku modoka.

Isoko rinini ry'abaturage ricururizwamo ibikoresho bitandukanye hari imeza iteretseho ibikoresho by'isuku ndetse n'imyambaro y'imbere y'abagabo ndetse n'abagore.

Igikorwa remezo kinini cy'inyubako gikoreramo ibijyanye n'ubucuruzi byubatswe ahanini n'amadirishya ari hanze yayo agizwe n'amagorofa arenga atatu.

Inyubako nini yubatse mu buryo bugezweho, igizwe n'amagorofa agera kuri atanu, ikorerwamo ibijyanye n'ubucuruzi, hari imodoka ziri hasi yayo ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu.

Isoko riciriritse ry'abaturage haragaragaramo urujya n'uruza rw'abaturage bahaha ndetse n'abari kugurisha, hagurishwamo indagara, ibishyimbo, ndetse n'ibindi bitandukanye hanze.

Isoko rinini rikoreramo abiganjemo abari n'abategarugori, bafite imashini zidoda imyenda, bari ku murongo munini ndetse abakiriya babo bicaranye nabo, bafite ibyo baje gukoresha hari ndetse n'ibindi nk'ibisabo n'ibindi by'ibitenge ku ruhande.

Isoko rinini ricuruza ibijyanye n'imyambaro ndetse n'imideri ndetse n'ibndi. Urujya n'uruza ni rwinshi abantu baraha abandi baracuruza hari ibimanitse birimo biragurishwa harimo amasakoshi, imyambaro n'ibindi.

Urujya n'uruza umuhanda wo mu Rwanda abantu baragenda nk'ibisanzwe babajya mu bintu bitandukanye abamotari bajya mu kazi ko gutwara abagenzi abacuruzi barigucuruza n'iduka rinini riri imbere yaho ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza ruke rw'ibinyabiziga, harimo ipikipiki iriho umumotari wambaye umwambaro w'akazi ndetse n'umugenzi wambaye ikositimu y'umukara bambaye imirindamutwe ndetse hakaba inyuma hari amaduka y'ubucuruzi ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru hariho n'aho ibinyabiziga biparitse.

Isoko rinini ry'abaturage ricuruza ibiribwa; harimo ibishyimbo, ibigori ndetse n'amasaka, harimo urujya n'uruza rw'abantu bacuruza ndetse n'abagura. Hari ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye muri iri soko amabase n'ibindi.

Isoko rito cyane ricuruza ibijyanye n'imboga n'imbuto, harimo abacuruzi b'abagore ndetse n'abana bato bari kumwe na bo baracuruza ibiribwa biri mu mabase harimo imboga imbuto ndetse n'ibindi.

Icyapa cyamamaza cya sosiyete itanga itumanaho mu Rwanda, kimanitse ku kabati, kiriho telefoni eshatu zigendanwa, imwe isa ubururu izindi zirerurutse, hariho n'uburyo wabona serivise z'iyo kampani.

Abanyeshuri babiri bambaye impuzankano y'ishuri bari ku mutaka w'ikigo k'itumanaho mu Rwanda emutiyene, baka serivisi zacyo zitandukanye kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga ku ikoranabuhanga.

Abantu batatu barimo umugore umwe n'abagabo babiri barasuhuzanya bamwenyura begereye akazu kimukanwa ka sosiyete ikorera mu rwanda itanga serivisi z'itumanaho.

Icyumba kinini gitangirwamo serivisi za sosiyete itanga itumanaho hano mu Rwanda hariho abana b'abakobwa bari ku cyapa baseka bafite telefone.

Umukobwa wambaye umupira w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gitanga serivisi z'itumanaho ndetse n'izo kohereza no kwakira amafaranga mu Rwanda, hari n'undi mumama ukuze waje kubaza ibijyanye n'izo serivisi icyo kigo gitanga.

Akazu ko mu ibara ry'umuhondo mu gakoreramo umukozi wa sosiyete itanga serivisi z'itumanaho, wambaye umupira mugufi ndetse wandika mu bitabo baratanga isimu ku kumukiriya w'umugore usutse.

Inzu ya sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ihererekanya ry'amafaranga no kuyakira, ikorera mu Rwanda, harimo ibiro bitangirwamo izo serivisi z'icyo kigo, hari ibyapa byamamaza byiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu itangirwamo serivise z'ikigo gitanga serivise z'itumanaho, kohereza kwakira amafaranga binyuze kuri murandasi, iri mu ibara ry'umuhondo nta muntu urimo, ariko imiryango irafunguye. Ku ruhande hari ubusitani bukeya, ndetse n'ipoto yikoreye insinga z'amashanyarazi, ku ruhande ndetse hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo ibinyabiziga by'ipikipiki, abatwaye ipikipiki bambaye umwenda umwe w'akazi, bari mu muhanda begereye akayira k'abanyamaguru.

Icyapa cyamamaza cya sosiyete itanga serivisi zo kuri murandasi, zo guhaha ndetse no kwakira ibicuruzwa bicururizwa kuri murandasi, hariho mudasobwa ndetse n'itelefone ndetse n'igikombe kirimo icyayi cyangwa ikawa.

Urubuga rwo kuri murandasi rutangirwaho serivisi zo guhaha ibintu binyuze kuri murandasi ndetse no kubigemura, hariho amashusho y'imashini ndetse n'amatelefone ndetse n'imyambaro ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibyo mu nzu, hariho n'uburyo wabasha kubabonamo.

Inyubako ikoreramo sosiyete itanga serivisi zo kuzana ibintu mu mahanga ndetse no kubigemura, ikaba igaragaraho ibyapa byamamaza iyo sosiyete ndetse n'uburyo washobora kubabona.

Ipikipiki ifite agasanduku karirimo ibara ry'icyatsi kariho amagambo y'umweru ndetse hariho n'ibirango bya sosiyete itanga serivisi zo gukemura no gutuma ibintu ku ikoranabuhanga.

Iduka ricuruza ibijyanye n'ubwiza ndetse ritanga na serivisi z'ubwiza, ryagabanyije ibiciro bigera ku bihumbi cumi na bitanu ku ngohe karemano muri uku kwezi kwa cumi n'abiri ushaka kubavugisha hari na nimero zabo.

Mu muhanda wa kaburimbo muto ahegereye akayira k'abanyamaguru, amapikipiki agera kuri ane arahagaze, amapikipiki yifashishwa na sosiyete igemura ndetse ikanatumwa ibintu kuri murandasi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'agapfukamunwa ufite agapfunyika kazanywe n'ikinyabiziga kigemuye ibyatumijwe ku ikoranabuhanga, akaba ari sosiyete ya yego ikorera mu rwanda hariho n'uburyo wabahamagararaho.

Urubuga rugari rw'iduka rikorerwa kuri murandasi, berekana amafaranga yo kwiyandikisha, berekana ibisabwa byose umwirondoro, bakerekana ndetse n'igihe ntarengwa.

Icyapa cyamamaza uruganda rwitwa Kigali apulayini limitedi, hariho amashusho atandukanye yerekana ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, harimo amatelefoni agendanwa ndetse na za mudasobwa, bakaba berekana n'ibikorwa by'ubufasha batanga muri kampani y'abo, hari n'ibikorwa byo gukora urubuga rwa interineti n'ibindi bigiye bitandukanye, hasi bagaragaza nimero z'abo ndetse n'imyirondoro y'abo wababonaho.

Inzu yubatse neza, yubakishije amakaro, ndetse iteye irangi ry'umweru. Hari itara ritanga urumuri, ndetse imbere y'iyo nzu hari imodoka yo mu ibara ry'umutuku, ndetse hari n'uturabyo.

Umwanya wahariwe guhagarikamo imodoka inyuma hari inzu zitandukanye zubatse mu buryo bugezweho zigereretse inshuro ebyiri k'inzu bimwe hari ikimashini gikoreshwa bashyushya amazi yo mu nzu yo mu bwogero hari n'ubusitani butoya ndetse n'amabuye agize icyo cyanya cyo guparikamo.

Umwanya munini wo guparikamo imodoka ndetse no gukoreramo indi mirimo mu gipangu kinini cyagutse, kiriho igikuta gitatse neza ndetse n'urupangu ruri mu ibara ry'umukara, inyuma hari inzu yo kubamo.

Ogisisi foiri biro akaba ari ibiro bifasha abaza kuvunjisha amafaranga yabo bayakura mu bwoko runaka bw'amafaranga bayashyira mu bundi bwoko runaka bw'amafaranga, aha turabonamo mudasobwa, turabonamo n'umugabo wicaye ategereje gufasha abakiriya baza kuvunjisha amafaranga yawe.

Inzu nini igezweho yubakishije amakaro ndetse isize amarangi y'umweru, irakodeshwa i Kanombe. Irimo ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu.

Igipangu kinini cy'amarangi y'umukara, imbere haparitsemo ikinyabiziga harimo inzu z'amagorofa, inzu zirakodeshwa, harimo ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho, nini, ifite ikibanza kinini. Inzu iherereye i Kigali, i Rugando. Irakodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu ku kwezi. Mu Rugando, hafi yo kuri komvesheni.

Ni inyubako irereye i Kigali Kabeza bari kutwereka ko ifite igikoni kigezweho, iyi nzu ikigaragara cyo iri kugurishwa kuko bari kutwereka ko ufite amadolari magana atanu mirongo itanu wabona iyi nzu, irimo ibikoresho bitandukanye, irimo ahantu bashobora gutekera n'aho bashobora gukarabira, harimo n'utubati.

Urubuga rwa sosiyete itanga na serivisi zo kugura, kugurisha ndetse no gukodesha amazu. Rugizwe ahanini n'ibara ry'ubururu ryiganje ndetse amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'andi yanditse mu ibara ry'umukara.

Inyubako nini igezweho yubatswe mu magorofa, harimo ibiti by'indabo biri mu nzu ndetse n'amatara ari gutanga urumuri, ku mpande hari ibindi biti by'inganzamarumbo ni inzu ikodeshwa.

Ibaraza ryubatse n'amakaro ry'inzu ikodeshwa iherereye i Kigali i Remera irimo icyumba ndetse n'ubwogero bumwe, amadirishya ndetse n'inzugi birimo ibirahure bitabonerana.

Inzu nziza itatse neza igeretse rimwe ikodeshwa i Kigali Kicukiro, ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwiherero. Ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu by'amanyarwanda, na nimero y'uyikodesha.

Iduka rinini rigezweho bahahiramo ibintu bitandukanye by'ubwoko butandukanye: imyambaro, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, harimo urujyauza rw'abantu, harimo amamashini, ndetse abantu barahaha ndetse bakanacuruza.

Inyubako ifite amagorofa menshi isa n'isoko cyangwa inzu y'ubucuruzi ku magorofa atandukanye, hari amaduka acururizwamo imyenda n'ibindi bicuruzwa, kandi abantu bagaragara bari kugenda no inyubako ifite amabara y'umweru n'amatara atuma igaragara n'ibikorwa by'ubucuruzi biba bihari kandi abantu basa n'abari gusura amaduka.

Iduka rinini rigezweho, ririmo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibinyobwa, ibiribwa, ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, ndetse harimo n'urujya n'uruza rw'abantu bacuruza ndetse n'abagura.

Mu isoko rinini rigezweho, amatara aratanga urumuri ruhagije. Abantu hari urujya n'uruza barahaha abandi baragurisha, harimo ibijyanye n'imyambaro ndetse n'ibindi bijyanye n'ibindi bikoresho bitandukanye. Abantu barabaza ibiciro ndetse abacuruzi nabo bakabasubiza.

Ni iduka rinini rigezweho, amatara araka atanga urumuri ruhagije, hagiye harimo utubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye birimo ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'imbuto, umuntu aragenda ahitamo ibyo ashaka akajya kwishyura.

Umwari n'umutegarugori wambaye umwambaro w'akazi, ufite ingofero y'akazi, amadarubindi y'akazi, inyundo mu ntoki, uri guseka, aramamaza "Ejo heza", akaba ari ubwizigame bw'igihe kirekire.

Abagabo babiri bambaye imyenda isa neza bafashe icyapa cyerekana inkunga ya paruwasi gatulika rusasa yishyuriye ubwisungane mu kwivu abaturage biganjemo igitsina gore ndetse harimo n'abagabo.

Icyapa cyamamaza sosiyete itanga ubwishingizi hano mu Rwanda cyitwa ejo heza, inyuma yacyo hari abantu b'ingeri zitandukanye, abagore abana bameze nk'abakurikiranye umukino, abandi baricaye bitwikiriye izuba.

Mu biro bitanga serivisi z'abaturage harimo amatara menshi atanga urumuri ndetse abantu bicaye mu ntebe z'abantu bategereje guhabwa izi serivisi, hari imeza iriho imashini ndetse na za mudasobwa.

Abantu b'abirabura bazamuye intoki zabo mu kirere, bafashe urupapuro rw'ubwishingizi mu Rwanda, inyuma hari urukuta rusa ubururu bwijimye cyane barasa nk'abishimye.

Abaturage baje mu gikorwa cy'imibereho myiza y'abaturage, aho hari abari kubafasha babashyirira imyirondoro mu ikoranabuhanga rya mudasobwa. Akaba ari ababyeyi ndetse bazanye n'abana babo ari ukubakingiza cyangwa kubapima.

Ikirangantego cy'ikigo gitanga serivisi zo kwizigamara mu baturage gifashwa na leta. Mu kirangantego harimo izuba rifite ibara ry'umuhondo ndetse hakaba harimo n'icyatsi, mu magambo harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'ayandi akurikira yandikijwe ibara ry'icyatsi.

Icyapa cyamamaza sosiyete itanga serivisi z'ubwishingizi bw'ubuvuzi mu baturage b'igihugu cy'u Rwanda, ni icyapa kiriho udushushanyo dutatu tw'umutwe turi mu ibara ry'icyatsi ndetse n'amagambo agira ati mituweri ubwisungane mu kwivuza.

Umudamu uri mu iduka rigezweho ricuruza ibintu bitandukanye, ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho by'isuku, arapakira umuceri awushyirara mu kintu cyabugenewe.

Abantu benshi bari mu nyubako harimo abakozi bacuruza amafunguro ndetse n'ibyo kunywa hakaba hari n'umuntu uhagarariye emutiyene ari kumwe n'umukiriya ari ku mubwira serivisi zigiye zitandukanye za emutiyene n'akamaro zigufitiye .

Ivuriro rikuru ry'intara y'amajyepfo ryitwa Sehashibe imbere yaryo hari ubusitani harimo imodoka isa umukara ndetse hari indabo harasa neza hasize n'amarange asa umuhondo.

Isoko rinini ryubatse mu buryo bugezweho ririmo ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye birimo imboga n'imbuto, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa imbere hari imboga n'imbuto zirimo inyanya, tungurusumu, ibitunguru ndetse n'ibindi ku ruhande hari ibinyobwa.

Mu iduka rinini rigezweho ritangwamo serivisi zo gucuruza ibintu bigiye bitandukanye birimo ibiribwa, ibinyobwa, ibikoresho ndetse n'ibindi bitekwa, ku meza bishyuriraho ndetse bakanabarira ibikoresho umukiriya ajyanye hariho za murandasi, umukobwa arapakira ibikoresho byahashywe.

Mu iduka rinini rigezweho, umuntu afashe akagare gasa nk'ubururu bwijimye, karimo ibikoresho ndetse n'ibikenerwa byinshi, imbuto ndetse n'imboga, akagare gakoreshwa mu guhaha mu maduka agezweho.

Iduka rinini rigezweho ririmo urujya n'uruza rw'abantu, umugore n'umugabo bambaye umupira w'akazi usa w'umuhondo, barasobanurira abaguzi ibyo bacuruza ndetse babafasha mu kwishyura.

Mu iduka rigezweho amatara aratanga urumuri ndetse hasi hari amakaro y'umweru, hari utubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye: ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'ibikoresho byo mu nzu bitandukanye.

Iduka rinini rigezweho, ricuruzwamo ibikoresho bitandukanye, harimo n'ibinyobwa, ibiribwa, inzoga zisembuye, ibinyobwa bidasembuye ndetse hagaragara n'akagare bahahiramo.

Iduka rinini ricuruza ibikoresho bitandukanye byitwa mega supamaketi bacuruza ibikoresho bitandukanye harimo ibiribwa, ibinyobwa, amavuta, amafarini ndetse n'akagare ko guhahiramo.